Ndabona abagabo babiri, barimo gutera umuti bakoresheje ipombo, muri rusange ndabona barimo baratera icyayi bakoreshe uburyo bwa kijyambere bakoresheje ipombo.

Umugabo umwe uhetse pombo, icyuma gitera umuti, arimo kugenda atera imyaka kugira ngo ikure nta nkomyi kugira ngo ibeho neza kandi mu buryo bwizewe.

Umugabo uhagaze wambaye ga mu ntoki ufite ipombo, bisa nkaho arimo gutera umuti mu myaka kugira ngo ibashe gukura neza kandi mu buryo yifuje.

Amafi arunze ahantu hamwe bisa nk'a ariyo bamaze kuroba kugira ngo babashe kuyageza ku isoko ku buryo bworoshye. Buri wese abashe kuguraho mu buryo bwizewe.

Ndabona umugabo umwe ari mu mazi afite uburyo bwa kijyambere bifashisha batega amafi cyangwa baroba, arahagaze yafashe ku biti bishinze mu mazi, bivuze ko haba harimo imitego aba yashyize mu mazi ifata amafi kugira ngo abashe kuyabona.

Ni ikawa zigaraga nk'aho zikiri nto z'ibitumbwe biri ku biti byazo bitegerejwe kwera kugira ngo zijyanwe mu nganda zitunganywa, kugira ngo zibashe kujya ku isoko kugira ngo amafaranga yinjire ku bahinga izo kawa.

Umudamu umwe n'abandi bari inyuma, asa nkaho arimo gusarura ingano kugira ngo age kwanika. Hanyuma azahure, azagosore, azagurishe cyangwa azaseremo abana igikoma kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugore umwe arimo gusoroma ikawa, bigaragare ko arimo kuvanaho ihishije kugira ngo ajyane mu gutunganya iyi kawa kugira ngo abashe kujyanwa ku isoko mpuzamahanga kugira ngo amafaranga yinjire.

Abantu babiri bafite amasuka, barimo kubagara ibigori, bisa nkaho bitarera birimo gukura, bitewe ku murongo, inyuma yabo hari uruzitiro rugabanyijemo imirima kabiri kugira ngo buri muntu abashe kumenya ibye.

Abantu benshi, harimo abagore n'abagabo, barimo gusarura, ibigori, babisigaza kubi, ku bishishwa byabyo, kugira ngo, bizabashe guhunikwa, neza mu buryo bwa kijyambere.

Umugore umwe n'ihene iri mu ibara ry'ikigina, bisa nk'aho agiye kuzirika kuri giti cy'umunyinya kugira ngo ihene ibone uko irisha itavuye aho iri cyangwa itagiye kona kugira ngo nagaruka ayisange amahoro.

Ni igiti cya avoka ubwoko bwa gaheri, bisa nkaho zitare neza ariko harimo avoka imwe isa nkaho irwaye muri voka eshatu zigaragara, bivuze ko izi ngizi zikorwamo amasabune n'ibindi byinshi.

Ndabona abagabo bane n'umugore umwe. Umugabo wa kabiri afite isuka kurutugu rw'inyuma, afite umuhoro mu ntoki. Umudamu wikennyeye igitenge cy'umukara, wikoreye inkwi ahambirije umugozi w'umweru. Bigaraga nk'aho bari mu ishyamba barimo barava gushakisha ubuzima.

Igiti cya kawa, gisa nk'aho kitarazana ibitumbwe, bigaragare ko kikiri gito gito, kandi ari cyiza gitoshye, giteganijwe kuzera neza, kandi nk'uko umuhinzi aba yabyifuje.

Ndabona ari igiti cy'imyumbati, bakuye bamaze gukuraho imyumbati hasigaye igiti cyonyine, kiri hejuru, ubu ndumva ari ubwoko bw'imyumbati ya yindi y'imiribwa, bashobora kuba bagiye kuyirya, njyewe ndumva Ari byo mbona.

Akarima k'igikoni gahingwamo imboga z'amoko yose, s'ibyo gusa kandi washyiramo ibindi bihingwa, mu gihe ubikeneye kandi byera neza kubera ko biba bifumbiwe mu buryo bwizewe.

Amashyamba menshi, inzitane, arimo ubwoko bw'ibiti bitandukanye, harimo byo biti Gereveriya, iminyinya n'ibindi muri rusange.

Ni ibiti byinshi bigaragara ko ari ishyamba ry'inzitane, by'ubwoko butandukanye, harimo ibiti bisanzwe n'iminyinya n'ibihuru, harimo n'ibindi bitandukanye.

Uburyo bwa kijyambere butewe ku murongo ibishyimbo, hariho imipira yo kuhira imyaka kugira ngo izabashe gukura neza mu uburyo bwiza kugirango ngo imyaka ibeho neza.

Abagore babiri barimo gutera intabire y'imigozi, igaragare nkaho umwe arimo aramucira cyangwa amutunganyiriza, undi arimo aragenda ashyira mu butaka kugira ngo.

Ni ubwoko butandukanye bw'imbuto bw'ibiribwa harimo: inyanya, kokombure, ibihaza n'ibindi bitandukanye kugira ngo uwo muntu abashe kurya indyo yuzuye.

Ubu ni uburyo bukoreshwa buhira imyaka kugira ngo ikure neza kandi byizewe mu buryo bwo kurindwa kuma cyangwa kubora bitewe n'uko habuze imvura.

Uburyo bukoreshwa buhira bwa kijyambere kugira ngo amazi agere ku gihingwa. Binyuzwe mu buryo nk'uko imvura igwa ikagera ku gihingwa nayo niko hano bigaragara bukoreshwa mu kuhira imyaka.

Umugabo umwe ufite isuka, asa nkaho arimo ahinga ahantu mu kibaya, mu ndinganire, arimo kurima amasinde kugira ngo atabire azahingemo imyaka ubutaka mu butaka bushyashya.

Umugabo umwe wambaye ingofero y'ubururu, ufite amarozwari mu ntoki, arimo kuhira imyaka kugira ngo imyaka ye ikure neza kandi uburyo bwiza bwa bubonwa na buri wese.

Umugabo ufite roswari cyangwa uburyo akoresha yuhira imyaka bwa gakondo, asa nk'aho arimo aruhira imboga hari abandi bahagaze inyuma bari mu gikorwa cy'ubuhinzi bubateza imbere muri rusange.

Ndabona uburyo bwa kijyambere bwo guhinga ku murongo. Bakoresha n'uburyo bwo kuhira kugira ngo imyaka yabo ituma cyangwa itagira ikibazo ku bihingwa byabo.

Umugabo umwe afite umupira mu ntoki, arimo kuhira imyaka itaramera neza ariko agira ngo ibashe gukura neza. Mu buryo twakwita Innovation muri rusange.

Umudamu umwe ufite umupira mu ntoki, bisa nkaho arimo kuhira imyaka kugira ngo itazicwa n'izuba, mu gihe imvura yanze kugwa kandi imyaka ikenewe gufata ku ubukonje cyangwa ku mvura mugihe amazi yashize mu ubutaka.

Amazu, amashyamba, indinganire, imisozi kandi harahingwa, ni byiza kuba hakorerwa n'ubukerarugendo baje kureba ibyiza bitatse u Rwanda mu misozi igihumbi kandi twiteje imbere.

Imisozi y'indinganire hatewemo ikawa kugira ngo abo bahinzi biteze imbere mu byo bakora kugira ngo babone amafaranga y'ibyo bagezeho.

Imisozi, indganire, ibihingwa bitandukanye, amashyamba, bigaragare ko hari ahantutu hateye neza, harimo ibihingwa bijyanwa ku masoko, basagurira amasoko kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ndabona imisozi y'indinganire n'ibibaya, ibibaya birimo amazi, ndabona n'amazu make make bigaragare ko ari ikiyaga ariko haranatuwe hari n'amashyamba muri rusange byose birahari.

Ni ahantu hameze nko mu gishanga harimo mugende w'amazi cyangwa ibyo nakwita ruhurura kugirango habashe kuhirwa kugirango ngo imyaka yabo ikure neza nta byo kuma, nta byo kurumba rusange.

Ndimo ndabona inkoko za kinyarwanda bigaragare nk'aho ari mu nzu yazo, bigaraga ko ni ubworozi bwa kizungu kuko zirirwamo, ziriramo, zitereramo, urumva ko ari iterambere rirambye kuri twese.

Inkoko z'isake n'inkokokazi bifite ibara ry'umweru ziri mu nzu yazo ya kijyambere hasasijwe n'ibarizo kugira ngo zibashe gukura neza kandi nta mwanda uzigeraho.

Ni inka zisaka nkaho ziri mu biraro byazo, zirimo kurisha muri manjwari ziri mu buryo bwa kijyambere, hejuru harasakawe, hasi haravumye, zambaye amaherena, inka zifite ibara ry'ikigina zose.

Ni imishwi y'inkokokazi nyinshi cyane iri mu nzu yazo aho itorera, irara mu buryo bwa kijyambere kandi igakura yizewe mu buryo bwizewe butateza ingaruka ku bantu.

Ni ingurube iri mu kibuti cyayo, isa nkaho bayisasiye bimwe mu bivanwa mu biti. Mu gihe barimo barabaza, ari byo twita ibarizo kugira ngo ibashe gukora ifumbire mu buryo bwa kijyambere.

Ni inkoko z'imishwi ziri mu nzu yabyo, cyangwa mu ituragiro bazivana mu magi kugira ngo baziteho zikure neza kugira ngo zibashe kugerwa ku isoko ry'umurimo.

Ni nka nyinshi zisa mu ibara ry'ikijuju, harimo izihagaze zifite amaherena n'izashotse zirimo kunywa amazi kandi zikaba ziri mu rwuri rwazo, aho ziba aho zikorera imirimo yazo ya buri munsi.

Ingurube za kizungu zisa nk'aho ziri mu nzu yazo, zisasiwe n'i nibarizo, harimo ingurube imwe y'ikijuju, iyindi ifite ibara ry'iroroza, ahangaha niho ziba ubuzima bwazo bwose.

Ingurube imwe iri mu nzu yayo, ihagaze kuri sima, muri buranda, irimoga buranda ihagaze hejuru isasiwe kugira ngo iryame aheza kandi kure igategwa.

Ni inkoko nyinshi z'imishwi, ziri mu nzu yazo, aho zitorera, aho zirara, aho aho zinnya kugira ngo umworozi abashe gukusanya ifumbire yazo, kugira ngo bazikoreshe mu bundi buhinzi butandukanye.

Umugabo umwe uhagaze imbere y'inka zisa mu ibara ry'ikigina, asa nk'aho ari umuganga wazo waje kuzisura cyangwa kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza kandi zitanga n'umusaruro.

Ni iyanikwa ry'ibigori risesuye kugira ngo bibashe kumira igihe, bigerere ku isoko igihe, kugira ngo ubikeneye abibone mu buryo bwizewe kandi yahita abibyaza umusaruro vuba vuba.

Abagabo batanu, harimo abambaye ibisarubeti, umwe cyanditseho siko, Hari n'inka y'igaju, ifite amahembe'inyambo, bisa nkaho hari abaveterineri baje kuyibyaza, kugira ngo iruhuke.

Izi ni isha ziri mu Kagera cyangwa mu byanya by'inyamaswa aha ziri ziri zonyine mu byatsi zirarisha kandi nibwo buzima bwazo.

Ndabona ari abakerarugendo, basa nk'aho bari mu Kagera, barimo barafotora inyamaswa bita Inkura bigaragare nk'aho ishobora kuba irimo irarisha, ifite ihembe mu gahanga, iri hirya y'umunyinya, mu byatsi bisa nk'ibyumye, irimo gufotorwa.

Ni ingwe iriku n'ibyana byayo, biryamye muri parike, biri mu buryo bwo kuruhuka cyangwa kwegera ibyana byayo kugira ngo biririnde umutekano wabyo.